Hano ndahabona sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti. Ukaba ushobora gushingani ibihingwa. Uyu mugabo yasiganishije ibigori. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri zeru karindwi umunani, umunani gatatu, rimwe gatandatu, karindwi ikenda karindwi.

Radiyanti irakangurira aborozi kuyigana kugira ngo ibahe ubwishingizi bw'amatungo yabo, bityo borore biteze imbere nta mbogamizi, ku bindi bisobanuro wahamagara cumi n'umunani icumi cyangwa zero karindwi umunani umunani gatatu rimwe gatandatu karindwi icyenda karindwi.

Ramba na Britam; iyo ufite ubwishingizi bwo kwivuza, uba wizeye umutekano w'ubuzima bwawe, ugakorana umutuzo ugateza imbere businesi yawe, ramba na Britam ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, waduhamagara kuri zeru karindwi iminani ibi cumi n'icyenda umunani zeru zeru zeru.

Hano ndahabona ikiganza gifashe inzu nziza igeretse. Aho bivuga ngo biroroshye kurusha uko ubitekereza. Kurinda inzu yawe ibiza. Ushaka ubusobanuro wakohereza ubutumwa kuri watsapu zeru karindwi umunani, mirongo itatu nari rimwe, mirongo itatu na karindwi, mirongo itanu na gatandatu.

Hano ni kuri radiyanti (Radiant) amasaha y'akazi kuva kuwa mbere kugeza ku wa gatanu ni saa moya n'igice za mu gitondo kugeza saa mbiri z'umugoroba .Ku wa gatandatu ni kuva saa mbiri n'igice za mugitondo kugeza saa kumi z'umugoroba. Naho ku muganda ni kuva saa saba kugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba .Ku biruhuko rusange nuko kuva saa tatu za mugitondo kugeza saa kumi z'umugoroba.

Hano ndahabona inzu nziza ifite na parikingi igezweho hamwe na radianti inzu yawe ni igishoro cyawe kinini ikaba n'agaciro kawe menya neza ko inzu yawe yishingiwe kandi irinzwe na radiant hamagara makumyabiri mirongo itanu .

Imbere yanjye ndahabona ibiceri byinshi biri kumwe n'ingufuri ya sonarwa, bisobanura ko hamwe na sonarwa ushobora gufatira amafaranga yawe ubwishingizi, maze akagira umutekano.

Hano ndahabona amapoto ariho amatara ya etaravaje pibilike. Aya mafoto ariho ibyapa yose bivuga ngo riyo asiranse izi nawu pati ovu saniramu. Ari imbere y'amaduka y'ubucuruzi munsi y'ayo mapoto hari abantu bari kugenda.

Hano ku ruhande ndahabona inkongi y'umuriro. Ese waba uteganya iki mu gihe inyubako yawe yafashwe n'inkongi y'umuriro? Gana radiyanti iguhe ubwishingizi ku nkongi y'umuriro. Ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi umunani, umunani gatatu, umunani rimwe, zeru, icyenda gatatu.

Imbere yanjye ndahabona telefone irimo apurikasiyo ya banki ofu afurika, aho ushaka kwinjiramo bisaba gushyiramo nimero ya telefone ndetse na pini.

Imbere yanjye ndabona ari muri sikirini ya telefone, aho umuntu afite apulikasiyo ya ekwiti banke muri telefone ye, ashobora gukoresha konti ye yohereza, agura ama inite n'ibindi.

Hano kuri sikirini ya telefone hari kugaragara umuntu bita Paul Gatsinzi, ari gukoresha apurikasiyo ya enisibiye iri muri telefone y'iwe, kugira ngo agenzure, anakoreshe konte y'iwe.

Hano muri sicilini ndahabona imyenda myinshi imanitse kumaparotemanto. Ni imyenda y'ubwoko bwose Racosite nindi mwiza ni muri godeni fashoni shopu.

Hano ni kuri sisirini ya telefone aho bari kuyikoresha bahaha muri godeni fashoni shopu, bacuruza ibintu byinshi birimo amashati menshi meza, harimo ari mu mashashe n'ari mu bikarito.

Imbere yanjye ndahabona ibitenge byinhsi bigerekeranyije hari n'ibindi bihanitse hejuru, uko bigaragara ahangaha ni aho bacururiza ibitenge.

Imbere yanjye ndahabona iduka bacuruza imyenda y'abakobwa hari imyenda itandukanye imanitse kuri porutemanto hakaba hari n'amarinete ndetse hari n'udukweto.

Hano ndahabona umuryango ufunguye, ni inzu irimo amakaro, irimo ikimaneke cyambaye imyenda y'abakobwa myiza, ku ruhande hari akabati gafite utuyetajeri turiho inkweto. Uko bigaragara aha ngaha bacuruza imyenda ndetse n'inkweto.

Hano imbere yanjye, ndahabona aka etajeri gasize irange ry'umweru karimo imitako ya kinyarwanda.

Hano mu iduka ry'ubucuruzi, ndahabona ahantu hapanze udukuvurure twiza kandi mu buryo bumeze neza, utundi turambitse imbere yaho turazinze turagurishwa.

Hano ni mu iduka bacuruza imitako itandukanye, ndabona ibikapu by'abadamu biboshye neza, ndabona udutako twiza, ndabona imipira y'umweru n'andi mabara iri ku ma porotemanto n'ibindi.

Imbere yanjye ndahabona abantu batandatu, batatu muri bo bafite anvelope mu ntoki zitukura, bazengurutswe n'ibipirizo, kuruhande ndahabona imodoka nshyashya ya mahindera

Hano hari abagabo batatu bafashe igifunguzo kinini cy'imodoka, umwe muri bo w'umuzungu afite amvelope itukura mu ntoki, bahagaze ku mapave imbere y'amamodoka, hirya hari inzu ifite icyapa hejuru cyanditse ngo Akagera moto, uko bigaragara ni ku Akagera aho bacururiza amamodoka.

Imbere yanjye ndahabona imodoka nshyashya yo muri Kigali karizi maketi, iragurishwa miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba iri mu bwoko bwa marisedesi benzi.

Imbere yanjye ndahabona sare nini ifite amakaro hasi, haparitsemo ama modoka mezafite purake ni mashyashya, zerokirometere, uko bigaragara hano bacuruza imodoka.

Hano ndahabona imodoka nshyashya ya kigali kazi maketi, iragurishwa miliyoni umunani z'amafaranga y'u Rwanda, iri mu bwoko bwa yundayi sonata ayiburidi, yo muri bibiri na cumi na kabiri.

Hano ndahabona abantu babiri, umwe n'umuzungu undi n'umwirabura. Umwirabura yambaye igisarubeti kiriho amabara y'umutuku n'umukara cyanditseho toyota, afite insinga z'amashanyarazi ni umutekinisiye.

Ndabona imodoka ebyiri ziparitse ku mapave ni nshyashya nta purake zifite ziragurishwa.

Imbere yanjye ndahabona imodoka nshyashya iparitse muri salle imiryango yayo yombi y'imbere irafunguye buri muryango uhagazeho umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu umupira w'umweru n'agapfukamunwa afite n'agatambaro kanditseho amagambo gaturuka ku rutugu kakagera mu mbavu.

Imbere yanjye nda nkabona imodoka ziparitse ahantu, z'ubwoko bumwe, kandi nyinshi. Nta purake zifite, ni shyashya. Uko bigaragara, izi modoka ni izigurishwa. Inyuma yaho hari ama etaje.

Hano ndahabona abantu batatu, babiri bambaye imipira y'umweru, bafite na amverope y'umutuku mu ntoki, undi yambaye rineti ari ku ruhande, bafite igifunguzo kinini cy'imodoka cyanditseho Akagera motozi. Hafi yabo hari imodoka ihari, hari n'ibyapa hejuru bya fuso na benzi.

imbere yanjye ndahabona ibiganza bifite amafaranga menshi mu ntoki, inote z'igihumbi igihumbi zitari amanyarwanda imbere ye hari akamashini kabara amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi ari kubara amafaranga, ku meza imbere ye hari imashini ya piyoyesi iri gusohora borudero, hari n'ikarita ya eyitiyemu mashini, hari igitabo arikodingiramo ibyakozwe, imbere ye hari umuntu uje kubitsa amafaranga.

Imbere yange ndahabona ibiganza bibiri bari kubara inoti z'amafaranga. Hari karaviye, munsi ya karaviye hari aka fokisi babikamo amafaranga.

Hano hari abantu babiri, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura, umwirabura yicaye imbere ya machine, ari kubara amafaranga, yambaye agapfukamunwa k'umweru, naho umuzungu ari kurebera mu idirishya yambaye agapfukamunywa k'umweru.

Imbere yanjye ndahabona ibiganza bifashe amafaranga y'amanyamahanga hari n'ayandi menshi ari ku meza hari na mashine karikaritirise ibara amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona inote y'amafaranga ijana irambitse ahantu ni amanyarwanda yakoreshwagara kera ubu ntabwo agikoreshwa kuko ubu hakoreshwa ibiceri.

Imbere yanjye ndahabona inote y'amafaranga ibihumbi bitanu by'amanyarwanda, iragaragara impande zombi. Iyi note ntabwo igikoreshwa yakoreshwaga kera.

Imbere yanjye ndahabona amafaranga afunze imifungo, menshi ari ku meza hari n'ayandi agerekeranye hino hari intebe y'ubururu.

Hano ndahabona ibiganza by'umuntu w'umugore bifite amafaranga menshi mu ntoki harimo n'amadorari imbere ye hari akamashini kabara amafaranga.

Hano ndahabona gishe harasa no muri banki, hari umuntu urimo imbere hari n'undi uri inyuma uri kubara amafaranga.

Hano imbere yanjye ndahabona inote yamafaranga ijana y'u Rwanda, aya mafaranga ntabwo agikoreshwa muri iki gihe, yakoreshwaga mbere, ubu ijana ni igiceri.

Imbere yanjye ndahabona amaboko afashe amafaranga y'inote z'igihumbi, menshi mu ntoki, ariko atari amanyarwanda.

Imbere yanjye ndahabona hari inzu igizwe n'amakaro hasi no ku mpande, hari igicuba giteretse ku makaro kirimo amata, hari ijage umufuniko utukura hari umuntu uhagaze hari n'umukobwa wambaye ikabutura n'umupira w'umweru.

Hano muri kantine aho bacuruza amata ndabonamo abantu babiri hariho umukiriya ndetse n'umucuruzi urimo imbere ya kontwari, ndabona icyuma gikondesha amata cya Mukamira na frigo ndetse na etajeri iriho amazi, ji n'ibindi.

Hano ndahabona imeza y'urubaho iteretseho indobo y'umweru ya pulastiki irapfunduye igice kimwe harimo keke nyinshi.

Imbere yanjye ndahabona akumba kamwe k'akayetajeri, hari n'igishitingi kigashasheho cy'amabara y'ubururu n'umweru cyanditseho miliki ku kayetajeri kariho amazi ya nili hariho amvelope nini n'indi amvelope ntoya.

Imbere yanjye ndahabona abantu babiri. Hari uhagaze, hari n'uwicaye. Hari etajeri irimo amaji y'ubwoko butandukanye. Hino hari udutebe twa purasitike bicaraho. Ndabona imeza iriho ibintu.

Imbere yange ndahabona indobo ipfunduye, harimo amandazi abiri n'akuma bafatisha amandazi kugira ngo batayanduza, akaba ari ahantu bacuruza kantine.

Ndabona igikombe cy'amata giteretse ku meza, hirya yacyo hari agacupa k'amazi, uko bigaragara hano ni muri kantine aho bacuruza amata.

Izi sitepu uko ari esheshatu n'intambwe umuntu acamo kugira ngo agure abonema ya kanari akoresheje apurikasiyo ya sipeni.

sipeni iterwa inkunga na im bank, wakwinjira kuri konti yawe ukanze kuri more. Niko bimeze kuri iyi telefone iri ku ruhande.

Hano ndabona telefone irimo apulikasiyo ya sipenini aho ushobora kuzigamira itangira ry'amashuri maze ugatangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro ubikesha sipenini.

Hano ndahabona ibiganza bibiri fite telefone ari muri apulikasiyo sipeni aho bavuga ko sipeni porovide ekonomi ke oporutuniti foru evuri wani.

Iki ni icyemezo cyo kutabamo umwenda w'umusoro atesitasiyo donokereyanse cyatanzwe na Rwanda reveni mu buryo bwa onulayini, gihabwa kampani yitwa sati purinta, kikaba gifite agaciro kuva taliki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza tariki makumyabiri n'enye z'ukwa kane bibiri na makumyabiri na gatatu.

Imbere yange ndahabona amadolari menshi afunze imifungo hari ayandi menshi ashashe hasi.

Hano ndahabona umugabo wambaye isaha ishati yakarokaro nipantaro yumukara ,afite amadorari mu ntoki ari kuyabara n 'inote, iruhande rwe hari andi mafaranga menshi ahapanze kufungo.

Hano ndahabona ibiganza bibiri bibiri ku mpande zombi, bari guhererekanya amafaranga y'amanyamahanga arimo n'amadolari, umwe yambaye umupira w'umweru.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cy'uburyo iyi foregisi biro igurisha ikanagura amafaranga y'amanyamahanga.

Hano ndahabona inote y'atanu yamafaranga y'abanyamahanga yanditse mu kirimi ntazi

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya forekisi biro aho kigaragaza uburyo bagura amafaranga y'abanyamahanga n'uburyo bayagurisha.

Imbere yanjye ndahabona inote z'amadorari ijana zifunze umufungo iruhande rwabyo hari amaboko afite ibiganza biri kubara ayandi mafaranga.

Imbere yange ndahabona amafaranga y'amanyamahanga, hari inote y'amadorari y'ijana, hari n'indi note y'ijana, ebyiri ariko zitari amadorari, hari n'ibiceri byinshi.

Imbere yanjye ndahabona inote nyinshi zamadolari y'amanyamerika .

Imbere yanjye ndahabona intoki ziri kubara amafaranga y'inote z'abanyamahanga, ni amafaranga yo mu buhinde.

Hano hino ni kuri iyi forex biro hari umuntu waje kuvunjisha ndahabona icyapa cy'uburyo bagura bakanagurisha amafaranga y'abanyamahanga hirya yaho hari umuntu waje ku cyuma cya ATM kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona giraneza folekisi biro ifite buwate positare mirongo itatu icumi na telefone mirongo itanu mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu na rimwe.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye, ufite icyapa kiri kwaka cyanditseho ngo egisicenji ofisi. Ubwo ni biro deshanje. Aha ngaha ni aho bagura, bakagurisha amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye, harimo ibyapa by'umuhondo byinshi, hejuru handitse ngo otorayizedi mani egisicenge harimo abantu benshi bari kujya kuvunjisha amafaranga.

Imbere yanjye ndahabona intebe zikoze neza zifite imeza hari n'utumeza dutoya hari amakaro, amadirishya yayo afite amarido y'umuhondo.

Hano ni mu nzu, ndahabona intebe zikoze neza, zifite imisego myiza ziteritse mu nzu ku makararo.

Hano imbere yanjye ni muri hotel ndahabona amakaro yibara rimeze nk'imparage hari amatara menshi hirya hari umuntu ukora kuri recepusiyo nanone ndabona intebe ziri hirya no hino.

Imbere yanjye ndahabona ubusitani bwiza, hakaba hari intebe ziteyemo n'ameza hafi y'uruzitiro hatwikirije umutaka. Ni muri hoteri.

Aha hantu heza gutya ni muri iyi hoteri hari pisine, hari imitaka, hirya no hino harimo udutebe hari na etaje.

Hano ndabona ari muri kontwari, aho hari etajeri irimo inzoga nyinshi zitandukanye, z'amarikeri. Hari ibirahure biri hasi. Ni muri hoteli.

Imbere yanjye ndahabona telemusi n'icyuma hakaba hariho n'ikawa, n'utundi tukarito. Hirya hari ibikombe bibiri by'amatasi bihubitse hari n'ibyuma bibiri.

Hano ni mu masaha ya nijoro ndabona ibyapa hariho icya miwa, ikindi cya ekwiti banki mo imbere ni muri simba saroni.

Hano ndahabona inzu nziza ifite imiryango ifunze kuri kompanyi dasiransi unshobora kuhagera ngafata ubwishingizi.

Hano ndahabona umuryango ufunguye, ukozwe mu birahure, hariho icyapa cya Fonikisi Rwanda inshuwarensi kampani limitedi. Hakaba ari muri kompanyi da asiranse, batanga ubwishingizi. Mo imbere ndi kubona intebe abakiriya bicaraho.

Imbere yanjye ndabona abantu barimo bagenda hepfo hari umuryango ufunguye ufite icyapa hejuru cyanmetseho ngo yu eyipi inshuwarensi nku ruhande hari amadarajya, ama esikariye azamuka.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya purayimu enshuwarensi, akabari sosiyete dasiranse ishami rya rusizi.

Hano ni muri purayimu inshuwarensi kampani. Ndahabona umuntu wicaye hirya, kasitoma keya, nkabona intebe z'abakiriya bicaraho ndetse n'ibinyamakuru basoma ku meza.

Imbere yanjye ni kuri resebusiyo hari umuntu wicaye hari n'imashini imbere yiwe inyuma ye hasize irangi ry'ubururu handitseho ngo ni emuyuweyi wahamagara makumyabiri nagatatu makumyabiri nagatatu.

Imbere yanjye ndahabona etaje ikorerwamo ubucuruzi, hariho icyapa cya beka inshuwarensi, aho batanga ubwishingizi bwa beka, hino hari ikindi cyapa cya munopfu cikeni rimitedi, aho bagurisha inyama z'inkoko.

Imbere yanjye ndabona ari muri sare, harimo inkingi z'umweru, amatara ari kwaka, harimo imeza zigiye ziriho mashine raputopu, n'udutebe tw'umukara, ni muri sare ya forumatike.

Hamwe na ekobanke wakohereza cyangwa ukakira amafaranga inshuti n'umuryango, wasura ishami rikwegereye ry'umu ejenti wa egisipuresi poyinti kugira ngo utangire, wakorana na wesitani yuniyoni, manigaramu na riya.

Niba uhembwa hagati y'amafaranga ibihumbi magana inani, na miliyoni imwe ku kwezi kandi ukaba warashatse ukaba aribwo ugiye kugira ahitwa iwawe bwa mbere hamwe na enicibi wahabwa inguzanyo ya miliyoni mirongo itandatu uzishyura mu myaka makumyabiri ku nyungu ya cumi na rimwe kwijana ku bindi bisobanuro wahamagara ze karindwi imanibiri cumi na kane icyenda gatanuzeruzeru.

Nubwo waba nta ngwate ufite ukeneye kwagura ubucuruzi bwawe ekwiti banke ishobora kuguha inguzanyo maze ukagura ubucuruzi bwawe.

Hano ndahabona umuryango ufunguye imbere hari akameza kumuhondo hejuru hari icyapa cya Copedu.

Imbere yanjye ndahabona inzu yubatse neza y'ibirahure, imbere yaho hari amatafari ahiye niyo apaviye hasi, mo imbere haragaragara uko bigaragara hano ni kuri banki.

Hano ndahabona inyubako zitandukanye, hari pirimeri, segonderi ndetse na kaminuza. Aho gosheni fayinanso itanga inguzanyo ku bigo by'amashuri mu kubaka ibyumba bishyashya, kugura ibikoresho bishyashya, kubaka raboratwari n'ibindi. Ku bindi bisobanuro, wahamagara zeru karindwi umunani, makumyabiri, makumyabiri, zeru mirongo ine.

Bitsa unabikuze ukoresheje mo kashe maze utsindire ibihembo, nibyo bibaye ku mukobwa uri hano wambaye umupira w'umuhondo na kajaketi k'ubururu uhetse igikapu, ufite telefone mu ntoki arishimye cyane yatsinze.

Iyi ni koperative ofu porogeresi ofu fayinansingi ineza. Aho bazigama bakanaguriza banke iri keredi ndahabona abantu benshi baje kubikuza amafaranga yabo.

Imbere yanjye ndahabona umugabo n'umwana we bameze neza. Ari kwigisha umwana we kwizigamira. Bigaragara ko agisesi banke ishishikariza abantu gufasha abana gutangira kwizigamira hakiri kare.

Imbere yanjye ndahabona umukobwa ariho aseka, akaba akora muri Enisibiyeyi beta koriporeti bankingi, Enisibiyeyi akawunti ikaba isapotinga ama kampani kugira ngo atere imbere, ku bindi bisobanuro wahamagara zeru karindwi iminani ibiri cumi na kane icyenda gatanu zeru zeru.

Hano bahacururiza ibintu byinshi, harimo n'ibya kinyarwanda bitandukanye, harimo imitako, ibiseke n'ibindi ndahabona n'ibitenge, hari abantu baje guhaha barimo n'umuzungu.

Hano ndabona abadamu b'abacuruzi. Hari amabase menshi arimo imineke! harimo ibishyimbo. hiryabo hari andi maduka afunguye ari gucuruza.

Hano imbere ndabona ibintu byinshi bitandukanye birigucuruzwa by'imitako ya kinyarwanda hari n'imyenda nayo irigucuruzwa itandukanye, harimo abakiriya bari kugura hari n'abacuruzi bari kugurisha.

Hano ni mu isoko aho bari gucuruza imbuto z'amoko menshi atandukanye. Ndabona abantu bari kugenda, imbuto ndazibona zitambitse harimo: inanasi, amavoka, amapapayi, imyembe, amaronji n'ibindi bintu byinshi.

Hano ni mu isoko ry'imboga n'imbuto ndahabona imboga zitandukanye harimo amashu, harimo ibitunguru bitukura hari ibyumweru harimo urusenda, hari imiteja, hari amavoka hari amashufurere hari amashufeye ni byinshi.

Ibere yanjye ndahabona etaje ebyiri amabara atukura, imwe iparitse imodoka urujya n'uruza rw'abantu handitse konka ni ama etage y'ubucuruzi imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto.

Hano ni mu isoko, hari abacuruzi bari gucuruza ndetse n'abaguzi, ndabona bodaboda zirambitse ahantu nyinshi, bari gucuruza, nkabona ibikap by'umukara baheka mu mugongo nabyo bimanitse ku misumari iri mu biti.

Imbere yanjye ndahabona abadamu babiri bicaye imbere yabo hari imyenda myinshi ipanze bari gucuruza ,n'inyuma hari ibindi bintu bari gucuruza harimo imitako ya kinyarwanda myinshi itandukanye hari n'indi myenda hirya .

Hano imbere yanjye ndahabona abakobwa bari gucuruza bakiri batoya, bari gucuruza ibiribwa bitandukanye, bimwe bitanditse hasi, ibindi biri mu mabase no mutudobo.

Hano ni mu isoko ndahabona ibiribwa bitandukanye harimo inyanya amashu, kokombure puwavuro, imiteja n'ibindi bintu byinshi hari n'umudamu uri gucuruza.

Hano ni mu isoko ryiganjemo ibiribwa, harimo abantu bari gucuruza ndetse hirya hari n'abandi benshi bari kugura, harimo ibitunguru, inyanya, tungurusumu, puwavuro n'ibindi.

Hano ndabona imyenda myinshi y'abadamu imanitse ku maporutemanto, ndabona agatebe k'umweru ka purasitike umucuruzi yicaraho, hari umuntu hirya uri kugenda areba ibyo agura ahangaha bacuruza imyenda.

Hano ni mu isoko ndabona bari gucuruza ibiribwa byiganjemo imboga zirimo inyanya, intoryi, karoti, shufureye, cocombure, beterave n'ibindi ndabona harimo abacuruzi n'abaguzi.

Imbere yanjye ndahabona isoko rinini. Hari imodoka zihari ziri kwinjira, hari n'urujya n'uruza rw'abantu bari kuva banajya guhaha.

Hano ni mu isoko bari gucuruza hari ibicuruzwa bitandukanye birimo inyanya, ibitunguru bitukura, ibitunguru by'umweru n'ibindi bintu byinshi ndahabona abantu bahagaze.

Imbere yanjye ndahabona akazu k'agakiyosike k'umuhondo ka Emutiyeni, karafunguye amadirishya yose uko ari atatu harimo umuajrnti wa Emutiyeni ari kwakira umukiririya.

Imbere yanjye ndabona akazu k'agakiyosike k'umuhondo ka emutiyeni karafunze hose ndabona nanone amafoto akegereye harimo ibyapa hirya hari agashya.

Hano ndahabona amahema y'umuhondo ya emutiyene hakaba hari n'abakozi ba emutiyene bambaye imipira y'umweru amarakosite y'umuhondo bari gufasha abakiliya baje babagana.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya momo payi gifite kode yo kwishyuriraho ya rimwe zeru umunani kane rimwe gatatu.

Hano ni kuri service center ya emutiyene, ndabona umukozi wa emutiyene wambaye umupira w'umweru n'ijosi ry'umuhondo wa emutiyene ari gusobanurira umukiriya uje umugana. Undi mugabo hino ari imbere ya compiyuta nawe aje gusaba serivisi, undi mukozi wa emutiyene nawe wicaye imbere ya mashini itari kugaragara neza ari kugaragara ukuboko.

Imbere yanjye ndabona akazu k'agakiyosike k'umutuku ka eyateri karafunguye umuryango ndetse n'idirishya, hari abantu batatu umwe yambaye ishati y'umweru na baje itukura ya eyateri abandi ni umudamu n'umusaza bose bafatanye amaboko.

Hano ni muri savisi senta ya Emutiyene, ndabona umudamu wambaye linete n'umupira w'umuhondo ari gukoresha mashine, hari umuzungu uhagaze wambaye umupira w'umweru wa Emutiyene na baji y'umuhondo afite agaseke mu ntoki ari guhereza umukiriya, umukiriya nawe ari gukoramo.

Aka ni akazu k'agakiyosike k'umuhondo ka Emutiyene, karafunguye amadirishya atatu, karimo aba ejenti batatu bose bari gufasha abakiriya.

Imbere yanjye ndahabona abantu bambaye imipira y'umuhondo yanditseho momo peyi, hakaba hari n'abandi batayambaye harimo ufite amvirope mu ntoki ari kwerekana terefone ko amaze kwishyura.

Imbere yanjye ndahabona umukecuru umaze guhaha ari kwishyura. Hari n'abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo, ya emutiyene mobayilo mani. Bigaragara ko ari kwishyura akoresheje mobayilo mani.

Ukoresheje telefone maze ugahamagara zeru karindwi mirongo inani na gatanu, mirongo ine na gatatu, mirongo itanu na karindwi, mirongo ine na kane afuri famazi maketi yakugezaho ibiryo by'umwimerere ukeneye mu rugo.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye kasike, yambaye n'ijire ya oranje, afunguye bogisi y'umutuku iri kuri moto, hari ibintu ari gushyiramo. Aparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Imbere yanjye ndahabona moto itukura ihaparitse, ihetse ikibogisi cy'ubururu kirya hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'iroze n'ipantaro y'umukara ari imbere y'umuryango ufunguye.

Hano ndahabona umugabo uri guseka wambaye ishati yanditseho vuba vuba y'icyatsi kibisi, afite amvelope mu ntoki irimo ibiribwa karoti, puwalo n'ibindi, hafi ye hari bogisi y'icyatsi kibisi yanditseho vuba vuba.

Tuma onurayini shopu aho ushobora kwishyura bike ariko ukunguka byinshi rimwe na rimwe kandi baradervariga mbere ya saa tatu z'umugoroba.

Hamwe na bilasi waduhamagara zeru karindwi umunani gatanu gatanu, makumyabiri na gatanu magana rindwi na cumi na gatandatu maze tukakugezaho icupa rya gaze cyangwa icupa ry'amazi ya jibo.

Bayi, seli, oru renti dontui komu isoko onulayini, maketi Afurika, waba ufite imodoka inzu ikibanza ugurisha cyangwa ukodesha, wavugana n'umukiliriya amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane, hari imbuga zitandukanye, hawuze vuta doti komu, landi purotu dotikomu, vehike dotikomu, anifiyuca dotikomu, selitoronike dotikomu.

Imbere yanjye ndahabona abamotari bane, batatu bafite kasike z'umukara, umwe afite kasike y'umutuku. Bambaye imipira ya oranje, bahetse n'amabogisi ya oranje.

Imbere yanjye ndahabona raputopu iri kwaka aho bagaragaza ko ushobora gutangira gucururiza kuri i gura.

Imbere yanjye ndahabona abamotari, bari kuri moto, bose bambaye kasike, kuri moto zabo bahetse bogisi zanditseho ngo jumiya fudu za oranje.

Imbere yanjye ndahabona onolayini shopingi ya alibaba doti komu. Aho ari site yo kuguriraho ibintu bitandukanye birimo imyenda y'abadamu.

Imbere yanjye ndahabona inzu irimo intebe nziza, z'umweru, harimo n'imisego. Ni nijoro amatara ari kwaka.

Hano ndahabona inzu nziza igeretse na etage iri mu rupangu, ku nkingi z'urwo rupangu hari amatara, ikaba iri muri Kigali irakodeshwa amadolari igihumbi ku kwezi.

Imbere yange ndahabona ahantu munzu mu cyumba cyo kuraramo, hari garide robe hari n'uburiri bushashe, inkuta zisize irange ry'umweru, hasi hari amakaro.

Iyi nzu nziza imeze gutya ifite amatara ari kwaka iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Iyi nzu irimo uyu muzungu irakodeshwa, ku bindi bisobanuro wasura urubuga wa eshatu, akadomo, vibi hawuzi, akadomo, rwa.

Hano ni mu nzu, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ni heza, harimo intebe, harimo amakaro, saramanje. Ikaba ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, ni mu mujyi wa Kigali.

Imbere yange ndahabona inzu ikodeshwa, ifite icyumba kimwe na dushe na wese mu nzu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi, iri Kigali Kacyiru ni nziza ifite umutekano.

Hano ni mu nzu hari amatara mu gikuta andi matara hejuru inkuta zisize irangi ry'umweru harimo n'amakararo ni inzu ikodeshwa iherereye i kanombe ifite ibyumba bine na wese na dushe eshatu mu nzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Iyi nzu ifite ibyumba bibiri ikaba ifite dushe na wese mu nzuba ikaba ifite saro n'igikoni ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo irindwi ku kwezi.

uyu n'umuryango w'inzu ikodeshwa; iri Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite na duche na wese mu nzu.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari kuma pave imbere y'inzu nziza y'amarangi meza, ari gusohoka porutaye irafunguye.

Hano ndahabona urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, hasi hashashe amapave, harimo inzu igeretse etaje, harimo ibyumba bibiri byo kuraramo, wese ebyiri na dushe mu nzu, hakaba harimo ibikoresho byose, irakodeshwa.

Ni inzu nziza ifite hanze hashashe amapave, koruture y'amatafari ahiye meza iherereye kabeza irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu .

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize amarangi meza n'igipangu cyiza, imbere yayo hari amapave, ifite parikingi yajyamo imodoka eshatu iherereye, i Kanombe mu mujyi wa Kigali. iragurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshantu z'amafaranga y'u Rwanda.

Hano ni mu nzu, muri salo. Ndabona intebe nziza, imeza, furati iri ku gikuta ndetse n'imitako, hari itara muri salo hejuru ndetse no mu nguni. Ikaba ari inzu iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amadolari magana abiri na cumi n'atanu, ari yo manyarwanda ibihumbi magana atatu.

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza ifite umuryango ufunguye hanze hari amavase nanone hari amapave mu rupangu ,ifite ibyumba bitatu ikaba ifite wese eshatu mu nzu na douche ikaba ifite salo na salamange hamwe n'igikoni iragurishwa ibihumbi ijana na mirongo ine by'amadolari ya amerika .

Imbere yanjye ndahabona inzu nziza, isize irangi ry'umuhondo, ifite igisenge cy'amabati atukura, ifite corotire y'amatafari ahiye. iherereye Kabeza hafi y'umurenge, iri ku isoko iragurishwa.

Imbere yanjye ndahabona inzu yubatse neza ifite igisenge cyiza, imbere hakaba hari amapave iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine ikaba ifite na wese na dushe eshatu mu nzu, irakodeshwa ibihumbi magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Hano ndahabona inzu igeretse yubatse neza ifite jaride ku ruhande, amatara yayo ari kwaka, isize irange ry'umweru ifite n'indabo ziri hejuru kuma bariko irakodeshwa.

Hano ni mu nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye urujya n'uruza rw'abantu amatara ari kwaka, ndimo ndahabona imyenda .

Imbere yanjye ndabona hari ibizingo by'amatapi menshi atandukanye; Hari azinze neza ateretse, hari n'azinze yegetse ku gikuta.

Imbere yange ndabona ni mu nzu ahari imitako itandukanye icuruzwa, harimo n'umudamu wambaye umupira w'umukara, ateze igitambaro, yambaye na baje ya oranje.

Imbere yanjye ndahabona abadamu babiri bahagaze ni abakiriya hari n'undi mugabo uri hirya ushobora kuba ari umucuruzi ,bacuruza ibintu bitandukanye harimo inkweto ,imikandara ibikapu by'abadamu n'ibindi .

Hano ndahabona ibimaneke byambaye imyenda biri kuyamamaza, hirya no hino nkaba mbona n'abantu urujya n'uruza, uri guhaha ko bigaragara ahangaha muri shoping more aho bagurira imyenda.

Hano ndabona abantu babiri, umwe w'igitsina gore, undi ni igitsina gabo bafite amverope mu ntoki bari guseka, inyuma yabo hari ibyapa bya aresesebi.

Ejo heza muri ara esesebi Rwanda sekiriti bodi, wazigamira amasaziro yawe ukiri muto, nibyo uwo umwana ari gukora.

Hano ndahabona ikirango kiri mu ibara ry'umukara kigizwe n'amabara y'umuhondo ubururu ndetse n'umukara cya rwanda sosho sekuriti bodi ara esi esi bi awa helifu awa fiyuca.

Imbere yanjye ndahabona posite dosante ya Ndego, ikaba igizwe n'inzu isize amarange y'ubururu. Mu imbere ndabonamo abantu, hari uwicaye ku ntebe n'abahagaze bose bambaye udupfukamunwa.

Imbere yanjyege ndabona na supamaketi nini kandi ipanze neza, hari amayetajeri apanze kandi agiye ariho ibintu.

Hano ndahabona inzu y’ubucuruzi, hariho icyapa cya Simba sonatibe. Kwinjiramo, banza ugasakwa n'umusekirite.

Hano ni muri supamaketi ndahabona ama etageri apanzeho ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndabona n'umuntu hirya uri mo guhaha.

Hano ni muri supamaketi ndahabona abantu batandukanye benshi bari guhaha aho imbere hari uri guhaha ashyira mu kagare n'inyuma barahari.

Imbere yanjye muri supamaketi ndahabona ibicuruzwa bitandukanye biri kuma etajeri bipanze neza; hino hari ibirayi, hari abakozi ba supamaketi bambaye amajiri y'umutuku ndetse n'abandi bantu bari guhaha.

Hano ni muri supamaketi ndi kureba ibicuruzwa byinshi bitandukanye biri ku maetajeri ndi kubirebera hejuru.

Hano ni muri supamaketi. Ndahabona utumashini twinshi, aha ngaha hakaba ari kuri gishe, aho bishyurira.

I mbere yanjye ndahabona etajeri, ivanzemo ibintu bitandukanye by'ibiribwa, harimo n'amavuta yo guteka. Ahangaha ni muri supamaketi.

Hano ndahabona etage yanditseho ngo SIMBA Gishushu, hanze hari udutebe ndetse n'utumeza two kwicararaho twa pulasitiki, hari n'icyapa bigaragaza ko bibujijwe kuhaparika.

Hano ni muri supermarket urabona umuntu wambaye umupira w’ umukara ari gupakira umukiriya amushashe ibyo yaguze.

Hano ni muri supamaketi, hasi hari amakaro ateretseho utuyetajeri twiza turiho ibicuruzwa bitandukanye.